Aha n'umurima urimo insina nk'uko tubibona zirimo ibitoki biri kwera, tukareba n'amatunda n'ibindi bihingwa bigiye birimo bitandukanye, bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi binyuze mu kubirya.

Twebwe nk'abaturarwanda, tugomba gukora umuganda mu gihugu cyacu, kugirango twimbike twimakaze isuku mu gihugu ndetse no kurwanya icyateza umwanda n'izindi ndwara zigiye zitandukanye binyuze mu mwanda.

Mu gihe cyo gutera ibihingwa bigiye bitandukanye harimo nk'ibigori, ibijumba ndetse n'ibindi, tugomba kwiga kumenya kubyitaho tukabyuhira, tukabishyiramo ubuziranenge bwuzuye kugira ngo bikure bifite ubuziranenge bwiza.

Aya ni amaterasi y'indinganire yifashishwa mu kuyakora mu gihe hari isuri mu bidukikije, kandi akaba agaragaza neza igihugu, bigatuma ahantu hasa neza. Amaterasi akoreshwa mu kurwanya ikibazo cyagirwa mu bidukikije murakoze.

Mu gihe umuntu afashe umwanzuro wo korora inka, agomba kuzubakira ikiraro cyazo zibamo, akanareba abantu babishinzwe kuzitaho kugira ngo muzikorere isuku kandi zitabweho zibeho neza zitange umusaruro ushimishije kandi uhagije.